uyu ni umucuruzi washyizeho ibicuruzwa bye ku mbugankoranyambaga, kugira ngo birebwe n'abantu benshi, kandi akaba ari uburyo bwiza bitewe n'uko muri iki gihe abantu aribyo bakoresha cyane, uwabona ibyo akeneyeho akaba ashobora kubigura mu buryo bwihuse, kandi n'ugurisha bikamworohera kubona abaguzi.

Iyi ni imitako, imyambaro ndetse n'ibindi bikorwa n'abanyabugeni bakabikora mu bikoresho bituruka hano mu Rwanda, ndetse akaba ari naho bikorerwa, n'abaturuka mu bihugu byo hanze bakaba bakishimira kubigura.

Uyu ni umucuruzi uri kwamamaza ibicuruzwa bye akoresheje ikoranabuhanga cyane ko muri iki gihugu cyateye imbere abantu bose bakaba ariryo bakunze gukoresha kandi bikabafasha kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu rugo bakaba bashobora no kuba babigura.

Iyi ni imyambaro abanyabugeni bakorera hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi igakorerwa mu bikomoka hano bikaba ari uburyo bwo kwamamaza ibituruka mu gihugu bitabaye ngombwa ko ibintu byose bituruka hanze.

Uyu ni umucuruzi washyize ibicuruzwa bye ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo birebwe n'abantu benshi, kandi kubera ko turi mu gihe cy'iterambere, abenshi bakoresha ikoranabuhanga, biraborohera kubonaho ibyo bari bakeneye baka babiguriraho, ndetse bakabigezwaho bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo.

Hano haragaragara ho ifoto y'imyenda aho umucuruzi ari kuyamamaza akoresheje ikoranabuhanga, rikamufasha kubona abaguzi benshi bitewe n'uko abantu muri iki gihe n'ubundi kenshi barikoresha, kandi bakaba baguriraho ibyo bifuza, bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo.

Aya ni amafaranga magana atanu akaba ari inote ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ikaba iriho na bimwe mubikiranga nk'ikiraro gica hejuru y'ishyamba rya Nyungwe ndetse no kugaragaza uburyo ikoranabuhanga ryateye imbere mu mashuri.

Iyi note ni iy'amafaranga ijana ikaba yarakoreshwaga mu gihugu cy' u Rwanda mu myaka yatambutse, gusa ubu ikaba itagikoreshwa, aho yasimbuwe n'igiceri.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ikaba icuruzwamo ibyo kunywa bitandukanye, nk'uko tubibona by'umwihariko amata aho ashyirwa kugira ngo akomeze kumera neza atangirika, bikababifasha nk'abatuye mu mijyi cyangwa se abadafite uko bakorora inka zabo kubona aho bayagurira kandi bizeye ko nta kibazo cy'uburwayi gitewe n'umwanda bahura nacyo.

Hano turabona amata mu gikombe bikaba bigaragara ko ari inzu acururizwamo, aba yatunganyijwe neza agakorerwa isuku ndetse akabikwama mu buryo adashobora kwangirika. Ku buryo bifasha uyaguze kuba yahita ayahanywera cyangwa se akayajyana mu rugo iwe.

Muri iyi ndobo turahabona amandazi, akaba ari ibyo kurya byoroheje, bikorwa mu ifarini ndetse n'ibindi, abantu bakaba bakunze kuyakoresha ku mafunguro yabo ya mu gitondo ndetse no kubera ko aciriritse cyangwa se agura amafaranga make, bifasha n'abafite ubushobozi buke, kuba babona icyo barya byoroshye.

Izi ni keke akaba ari ibyo kurya byoroheje bikorwa mw'ifarini, amata ndetse n'ibindi. Abantu bakaba bazikunze kuzifashisha kuma funguro ya mu gitondo cyangwa se mugihe bari mukazi bategereye ingo zabo, bakaba bayafata kugirango bakomeze kugira imbaraga.

Hano turabona aho iduka ricuruza ibyo kunywa bitandukanye, by'umwihariko turabona abo ari kunywa amata, akaba ari ahantu aba yatunganyirijwe kandi afite isuku, ku buryo umuntu ashobora kuyagura agahita ayahanywera cyangwa se akayajyana mu rugo iwe, yizeye ko atari bumutere ikibazo icyo ari cyo cyose gikomoka ku mwanda.

Hano turabonaho irindazi akaba ari ibyokurya bikorwa mwifarini ndetse nibindi abantu benshi bakaba bakunze kuyifashisha nko mugihe bari mukazi aho bayafata kugira ngo babone imbaraga zo kugakomeza cyangwa se kumafunguro ya mugitondo.

Aya majerekani ari mu nzu y'ubucuruzi akaba arayavanywemo amata, kugira ngo ashyirwe ahabugenewe atunganywe neza, ndetse ku buryo adashobora kwangirika, ku buryo n'uyagura aba yizeye ko nta kibazo yamutera, bitewe n'umwanda.

Hano turabonaho umucuruzi uri gusukira umuguzi amata ari kuyakura mu cyuma akasanyirizwamo kugira ngo atunanywe, akorerwe isuku kandi abikwe mu buryo buba bwizewe ko budashobora gutera ikibazo abayagura.

Muri iyi nzu turahabona umumama ufite icyayi imbere ye, biba bigaragara ko ari munzu icururizwamo ibyo kunywa bitandukanye, ndetse nkuko tubibona harimo n'icyuma gikusanyirizwamo amata, agatunganywa kandi akabikwa neza kugirango abe atakangirika.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi nk'uko bigaragara ikaba icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ibyo kunywa by'ubwoko bwinshi ndetse n'ibyo kurya byoroheje nk'imineke, imigati n'ibindi, bikaba ari uburyo bworohereza abaturage wenda nk'abari ku kazi badafite uko bahita bateka babona icyo bafata cyangwa se nk'abari ku rugendo n'abandi.

Iyi nzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibyo kunywa nk'amata, amazi, imitobe ndetse n'ibindi hakaba harimo n'icyuma gitunganyirizwamo amata kugira ngo abe afite isuku kandi atakwangirika n'abayagura bakaba bizeye ko adashobora kubateza ibibazo biterwa n'isuku nke.

Uyu mucuruzi ari gusukira umuguzi amata, ayakura mu cyuma kiyatunganya neza, agakorerwa isuku, kandi ku buryo aba adashobora kwangirika, ndetse n'uwayaguze akaba yizeye ko atari bumutere ikindi kibazo icyo ari cyo cyose gitewe n'umwanda.

Hano turabonaho ibyuma bishyirwamo ibyo kunywa bishyushye nk'amata, icyayi, amazi ndetse ku ruhande tukahabona na capati bikaba, bigaragara ko ari mu nzu y'ubucuruzi icururizwamo by'umwihariko bimwe mu bifasha abantu mu gihe bari mu kazi kabo badafite umwanya wo kuba kujya guteka, kuba babona icyo bafata gituma bakomeza kugira imbaraga.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gushyirwamo amata nk'uko tubibona, kugira ngo ajyanwe aho akusanyirizwa, atunganywe neza kandi abikwe mu buryo adashobora kwangirika, kugira ngo n'uyagura wese abe yizeye ko nta kibazo yahura na cyo, gitewe n'umwanda cyangwa se ibindi.

Umugore wicaye ku ntebe y'umweru , umugore wambaye ikanzu y'ubururu ndetse na marinete, kuruhande rwe hariho umutako uhagaze, ugaragaza igishushanyo cy'umugore wikoreye agaseke ku mutwe, kuruhande hari agatako gafite akantu k'umuhondo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi nk'uko tubibona ku byapa biri ku miryango yayo bikaba byumwihariko ushobora kuba wasangamo amata. Bikaba bifasha baba abatuye mU mijyi cyangwa abadafite ubushobozi bwo kororra inka kuba nabo bashobora kuyabona mu buryo bworoshye.

Aya ni amandazi akaba ari ibyo kurya byoroheje abantu bakora mu ifarini ndetse n'ibindi bintu, bamwe bakaba bakunze kuyifashisha ku mafunguro yabo ya mugitondo, ndetse n'abari mu kazi badafite uburyo bwo kuba bateka, cyangwa bafite ubushobozi buke nabo bakabona icyo bafata.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi nk'uko tubibona ikaba icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye by'umwihariko turi kuhabona amacapati, amandazi ndetse n'icyuma gishyirwamo amata kugira ngo atangirika akomeze kuba ameze neza, akaba ari hamwe mu hafasha abantu nk'abari mu kazi kuba babona icyo bafata mu gihe batarabona umwanya wo kujya guteka cyangwa kurya mu ngo zabo.

Hano turabonaho inzu y'ubucuruzi byumwihariko ikaba icuruzwamo amata nk'uko tubibona ku cyapa, kandi akaba atunganyije neza afite isuku ku buryo umuntu ashobora kuyagura ahita ayanywa kandi akaba yizeye ko nta zindi ndwara ari bukuremo nk'iziterwa n'umwanda.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi, harimo imodoka nini iri kugenda ifite irange ry'umweru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi nk'uko turi kubibona, ikaba icururizwamo ibintu bitandukanye by'umwihariko turi kuhabon imineke, amagi, amandazi, capati, akaba ari bimwe mu byo kurya bifasha abantu mu gihe bari mu kazi ka buri munsi, abari kurugendo ndetse n'abandi.

Hano turahabona inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, by'umwihariko nk'uko tubona ku cyapa, amata, bikaba byorohereza abatuye mu migi cyangwa se n'abandi badafite inka kuba babona aho bayagurira mu buryo bworoshye, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura ndetse ayo mafaranga agafasha igihugu mu bikorwa bitandukanye byo kugiteza imbere.

Iyi nyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba iyiha umucuruzi umaze kwishyura ndetse ayo mafaranga akaba ariyo afasha igihugu mu iterambere ryacyo nko mu bikorwa remezo bikubiyemo kubaka imihanda, amashuri n'ibindi.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aho ihabwa umucuruzi umaze kwishyura umusoro we, kandi ayo mafaranga akaba ari yo igihugu kifashisha mu bikorwa remezo bitandukanye.

Imodoka ifite ibara ry'umweru yo mu bwoko bwa Hyundai iparitse hamwe nandi mamodoka menshi ifite icyapa cya ndistseho kigali Carizi maketi iparitse imbere yinzu ifite irangi ry'umuhondo n'amadirishya y'umukara na konteneli y'umutuku .

Inyemeza bwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura umusoro we, ndetse ayo mafaranga akaba ariyo yifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo guteza imbere igihugu.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu Rwanda, aho ihabwa umucuruzi umaze kwishyura umusoro we, kandi ayo mafaranga akaba ari yo yifashishwa mu guteza imbere, nko kubaka imihanda, amashuri, amavuriro n'ibindi.

Iyi nyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura neza, ndetse ayo mafaranga akaba afasha igihugu mu bikorwa bitandukanye bubaka imihanda, amavuriro n'ibindi.

Iyi n'inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu Rwanda. Ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura umusoro we. Kandi ayo mafaranga akaba ariyo igihugu cyifashisha mu bikorwaremezo, nko kubakira abatishoboye, kubaka amashuri, imihanda ndetse n'ibindi.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, igaragaza imisoro umucuruzi yishyuye umwaka wose, kandi ayo mafaranga akaba agirira igihugu akamaro kubera ko ariyo yifashishwa mu ibikorwa remezo nko kubaka, amavuriro, amashuri, kubakira abatishoboye, amasoko n'ibindi.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura ndetse aya mafaranga akaba ari yo yifashijwa mu iterambere ry'igihugu nko kubakira imihanda, amavuriro, amashuri, amasoko, kubakira abatishoboye n'ibindi.

Iyi ni inyemezabwishyu ihabwa umucuruzi umaze kwishyura neza, kandi aya mafaranga akaba ariyo yifashishwa mu iterambere ry'Igihugu nko kubaka ibikorwaremezo birimo imihanda, amashuri, amavuriro, amasoko n'ibindi.

Iyi nyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura kandi ayo mafaranga akaba ariyo agirira igihugu akamaro kuko yifashishwa mu bikorwa bigiteza imbere harimo nko kubaka imihanda, amashuri, amavuriro, amasoko n'ibindi.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu guhugu cy'u Rwanda, aho ihabwa umucuruzi umaze kwishyura umusoro neza ndetse ayo amafaranga akaba ari yo yifashishwa mu bikorwaremezo byo guteza imbere igihugu nko kubaka amashuri, amavuriro n'ibindi.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, aho bigaragaza imisoro yishyuwe amezi ane kandi aya mafaranga akaba ariyo agirira akamaro igihugu kuko akoreshwa mu iterambere ryacyo nko kubaka imihanda, amavuriro n'ibindi.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro igahabwa umucuruzi umaze kwishyura kandi ayo mafaranga akaba ariyo yifashishwa mu bikorwa remezo by'igihugu nko kubaka imihanda, amashuri, amavuriro, amasoko ndetse no kwakubakira abatishoboye n'ibindi.

Inyemezabwishu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, aho ihabwa umucuruzi umaze kwishyura umisoro, kandi ayo mafaranga akaba afasha igihugu bitewe n'uko ariyo yifashishwa mu bikorwa remezo, nko kubaka amashuri, amavuriro n'ibindi.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu Rwanda aho gihabwa umucuruzi umaze kwishyura ndetse n'amafaranga akaba ari ingenzi kuko ari iy'igihugu cyifashisha mu bikorwa bitandukanye nko kubaka imihanda, amashuri, amavuriro n'ibindi.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aho ihabwa umucuruzi umaze kwishyura kandi ayo mafaranga akaba ariyo igihugu cyifashisha mu iterambere ryacyo bubaka ibikorwaremezo birimo imihanda, amashuri, amavuriro, amasoko ndetse n'ibindi.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba ihabwa umucuruzi cyangwa ukora indi mirimo umaze kwishyura, kandi ayo mafaranga akaba ariyo yifashishwa mu iterambere ry'igihugu, nko kubaka ibikorwaremezo birimo umuhanda, amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi.

Iduka ricururizwamo imyenda yaba mama mo imbere hakaba hari mu ububiko bikozwe mu buryo bwa mpandeshatu, buteretsemo ibitenge bigiye bitandukanye, imbere yaho hakaba hari igitenge kiharambuye gisa nk'ikifashishwa mu kwamamaza iruhande rwacyo, hakaba hateretse agatebe gatoya.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura neza umusoro, kandi ayo mafaranga akaba ariyo yifashishwa mu iterambere ry'igihugu, akoreshwa nko mu kubaka imihanda, amavuriro, amashuri n'ibindi.

Iyi n'inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aho ihabwa umucuruzi umaze kwishyura nkuko turi kubibona hano, hishyuwe amezi atatu kandi ayo mafaranga akaba ariyo igihugu kifashisha mu bikorwa bitandukanye byo kugiteza imbere.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, igahabwa umucuruzi wamaze kwishyura, kandi ayo mafaranga akaba ariyo yifashishwa mu bikorwa remezo by'igihugu harimo kubaka imihanda, amashuri, amavuriro, amasoko ndetse no kubakira abatishoboye.

Inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura ndetse ayo mafaranga akaba ari yo afasha mu iterambere ry'igihugu ko akoreshwa nko mu kubaka imihanda, amashuri, amavuriro n'ibindi.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba ihabwa umucuruzi wamaze kwishyura kandi aya mafaranga akaba ariyo yifashishwa mu iterambere ry'igihugu nko kubaka imihanda, amavuriro, amashuri, amasoko n'ibindi bikorwaremezo bitandukanye.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura kandi ayo mafaranga niyo yifashishwa mu iterambere ry'igihugu nko kubaka ibikorwa remezo birimo imihanda, amasoko, amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro aho ihabwa umucuruzi umaze kwishyura umusoro we, ndetse ayo mafaranga akaba ariyo yifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo guteza imbere igihugu.

Uyu ni muhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usizemo amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, iruhande rwaho hari ibiti byiza by'icyatsi ubona bitanga umuyaga.

Inyemezabwishyu itangwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, ikaba ihabwa umuntu umaze kwishyura, kandi iyo misoro akaba ariyo yifashishwa mu iterambere ry'igihugu, nko kubaka imihanda, amavuriro, amashuri, amasoko, n'ibindi bikorwaremezo bitandukanye.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, aho ihabwa umucuruzi umaze kwishyura umusoro we kandi ayo mafaranga akaba ariyo yifashishwa mu bikorwa remezo byo guteza imbere igihugu, kubaka amashuri, imihanda, amavuriro n'ibindi.

Iki cyapa kigaragaza inzu ivunjishirizwamo amafaranga, aho gifasha abavuye mu gihugu kimwe binjira mu kindi, kuba babona ay'aho bagiye bityo bikaba byahabafasha mu gihe bazahamara gukomeza ubuzima uko bisanzwe.

Iki cyapa tubona ni ikiranga inzu ikorerwamo imirimo yo kuvunja, aho bifasha abavuye mu gihugu kimwe bajya mu kindi kuba babona amafaranga y'aho bagiye, bikabafasha gukomeza ubuzima bwaho.

Hano turabonamo ibikoresho byo mu nzu birimo intebe n'utubati, bikaba ari ibikozwe mu biti akamaro kabyo kakaba atari ako kuduha umwuka mwiza duhumeka gusa, ahubwo iyo bifashwe neza bikaba bishobora kubyazwa umusaruro ndetse n'ababikora bagashobora kubona ubushobozi bwo gutunga imiryango yabo.

Hano turahabona intebe ndetse n'ameza n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu nzu, nk'uko tubibona bikaba bikozwe mu biti, bikaba bigaragaza ko iyo bifashwe neza bishobora kubyazwa umusaruro, hakavamo ibintu byinshi ndetse n'ababikora bakaba bashobora kubona uko batunga imiryango yabo.

Izi ntebe ndetse n'amezaza tubona hano zikozwe mu bikoresho bitandukanye by'umwihariko ibiti bikaba bigaragaza ko usibye kuba biduha umwuka mwiza wo guhumeka iyo bifashwe neza ukirinda kwangizwa bishobora kuvamo ibikoresho abantu bifashisha mu ngo zabo kandi bigatunga n'ababikora.

Aya meza tubona n'intebe ni bimwe mu bikorwa mu biti bikaba bigaragaza ko iyo bifashwe neza bishobora kubyazwa umusaruro bikavamo ibikoresho byo mu rugo nk'ibi turi kubona, kandi bigashobora gutunga n'ababikora.

Izi ntebe n'aya meza turi kubona hano bikozwe mu biti, bikaba bigaragaza ko akamaro kabyo usibye kuduha umwuka duhumeka, bishobora no kubyazwamo umusaruro, bikavamo ibikoresho twifashisha mu ngo, ndetse n'ababikora bakaba bashobora gutunga imiryango yabo.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi, harimo imodoka nini iri kugenda ifite irange ry'umweru.

Hano turabona aho ibikoresho byinshi byo mu nzu, by'umwihariko ibikozwe mu biti bikaba bigaragaza ko bifite akamaro kanini, iyo bifashwe neza bishobora kubyazwa umusaruro bikaba byavamo ibikoresho nk'ibi, ndetse n'ibindi kandi bigafasha n'ababikora kubona uburyo bwo gutunga imiryango yabo.

Hano turabonaho ibikoresho by'ubwoko butandukanye, byo mu nzu bikozwe mu mbaho, bikaba bigaragaza ko akamaro k'ibiti atari ukuduha umwuka wo guhumeka gusa ahubwo ko iyo bifashwe neza bishobora kubyazwamo umusaruro kandi bigafasha n'ababikora kubona ibitunga imiryango yabo.

Aya meza n'intebe ni bimwe mu bikozwe mu mbaho, bikaba bigaragaza ko akamaro k'ibiti usibye kuduha umwuka duhumeka, iyo bifashwe neza bishobora kubyazwamo umusaruro bikaba byakorwamo bimwe mu bikoresho twifashisha mu ngo ndetse bigatunga n'ababikora.

Iyi hoteli nini cyane kandi nziza ni imwe mu zubatse mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari imwe mu zo abanyamahanga bishimira gusura bitewe n'uko igaragara kandi akaba ari n'igikorwa kigaragaza iterambere ry'igihugu.

Iyi ni hoteri yubatse ku buryo bugezweho ndetse butangaje, ikaba yubatse mu gihugu cy' uRwanda mu mujyi wa Kigali; aho abakerarugendo bishimira kuyisura ndetse ikaberarwamo n'ibikorwa bitandukanye by'igihugu.

Hano turabonaho isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, nk'imboga n'imbuto, kandi akaba ari bimwe mubyo umuntu akenera kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza, ndetse bigafasha n'abahinzi kubona aho bagemura umusaruro wa bo.

Iyi mitako, imyambaro, imikufi, ibikapu ndetse n'ibindi tubonaho hano, ni bimwe mu bikorwa n'abanyabugeni ba hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi bakaba babikora bashingiye ku muco w'igihugu.

Iri ni isoko nkuko turi kubibonaho hariho ibiribwa bitandukanye nk'imyumbati ndetse nibyiganjemo imbuto, akaba ari bimwe mu bifasha abantu kugira ubuzima bwiza ikindi bigafasha n'abahinzi kubona aho bajyana umusaruro wabo bakiteza imbere.

Iri soko ricururizwamo imboga z'ubwoko butandukanye, by'umwihariko abafite ubushobozi buke bakaba bashobora kubona ibyo kurya mu buryo bworoshye ndetse n'abahinzi bakabona aho bagemura umusaruro wabo.

Imodoka ya bisi itwara abantu bakunze kwita shirumuteto, yari irimo kugenda mu muhanda, hepfo y'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru hari abantu bari bahagaze, haruguru y'umuhanda akayira k'abanyamaguru, hari abagabo babiri bari barimo kugenda mu nkengero z'umuhanda, kuri ako kayira hari ruhurura icamo amazi.

Iyi ni imitako y'ubwoko butandukanye, ikorwa n'abanyabukorikori ba hano mu Gihugu cy'u Rwanda, ndetse ikaba ikozwe hakurikijwe umuco w'iki Gihugu, harimo nk'iyo tubona irimo imigongo ndetse n'ibindi bitandukanye. Nk'imyambaro, imikufi, ibinigi n'ibindi.

Kuri iyi foto turabonaho isoko ricuruza ibyo kurya by'ubwoko butandukanye by'umwihariko tukaba turi kurebaho imyumbati akaba ari kimwe mu byo kurya umubiri w'umuntu uba ukeneye kugira ngo ugire imbaraga.

Uri soko n’ iri cururizwamo ibiribwa by'ubwoko butandukanye by'umwihariko tukaba turi kubonaho imboga bikaba ari byo abantu bakeneyera mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bakomeze kumererwa neza cyane ko haba higanjemo ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibindi.

Inyubako y'isoko rya Nyarugenge yubatswe mu mujyi wa Kigali, ikaba ari imwe mu bikorerwamo imirimo itandukanye yiganjemo iy'ubucuruzi, amabanki, ndetse n'ibindi byinshi.

Iri ni isoko riherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Aho rikorerwamo imirimo itandukanye yiganjemo iy'ubucuruzi, amabanki ndetse n'ibindi.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Iyi myambaro yo mu bwoko butandukanye; ibikapu, imitako, ndetse n'ibindi, ni bimwe mu bikorwa n'abanyabugeni, kandi bakabikora bashingiye ku muco w'igihugu cy'u Rwanda.

Hano turabonaho imboga zifite usuku kandi z'ubwoko butandukanye, akaba ari bimwe mu byo umubiri w'umuntu ukenera kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, cyane ko harimo n'ibiba birindwa indwara, ibitera imbaraga n'ibindi.

Iri soko ni iricururizwamo ibiribwa by'ubwoko butandukanye, by'umwihariko ibyo turi kubonaho cyane ni nk'imbuto, akaba ari bimwe mu byo umuntu akenera kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kuba bwiza.

Muri iri soko turabonaho imboga z'ubwoko butandukanye, zikaba ari zimwe mu bikenerwa kugira ngo ubuzima bw'umuntu bukomeze kugenda neza kuko harimo n'iziba zirinda indwara, ibitera imbaraga ndetse n'ibindi.

Iri ni isoko ricuruzwamo ibiribwa bitandukanye nk'uko turi kubibona, ibishyimbo, ibigori, ibitoki, n'ibindi by'umwihariko akaba aribyo abantu baba bakeneye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi bikorohereza n'abahinzi kubona aho bacururiza umusaruro wabo.

Iri ni isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye nk'uko turi kubihabona ibitunguru, inyanya ndetse n'ibindi, bikaba ari bimwe mu byo umubiri w'umuntu ukenera kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza.

Iyi ni imitako y'ubwoko butandukanye ibikapu, uduseke, inkoko ndetse n'ibindi bikorwa n'abanyabugeni ba hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi bakabikora bakurikije umuco wacyo nk'uko tubibona harimo ibiriho imigongo n'ibindi.

Hano turabona isoko ririmo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye nk'imboga, ibitoki ndetse n'ibindi. Akaba ari bimwe mu byo umuntu akenera kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, cyane ko haba harimo ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibindi.

Iri ni isoko ricuruza ibyo kurya bitandukanye by'umwihariko turabona ibyiganjemo imboga, bikaba ari bimwe abantu bakenera kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kuko haba harimo nk'ibirinda indwara, ibitera imbaraga ndetse n'ibindi.

Muri iri soko turahabona ibiribwa by'ubwoko butandukanye imboga ndetse n'ibindi nk'ibitoki bikaba ari bimwe mu byo umuntu akenera kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi bigafasha n'abahinzi kubona aho bajyana umusaruro wabom

Ibi ni bimwe mu bicuruzwa birimo amashaza, ifu y'ubunyobwa, ibishyimbo, imineke ndetse n'inyanya, byose bikaba ari bimwe mu byo umubiri w'umuntu uba ukeneye kugira ngo ugire imbaraga ndetse n'ubudahangarwa bwo kwirinda indwara.

Iri soko ryubatse mu Mujyi wa Kigali rikaba riherereye Nyabugogo, aho rifasha abakoraga ubucuruzi bwo mu mihanda kwibumbira hamwe kugira ngo bakore mu buryo bwizewe kandi bwubahirije amategeko.

Aka kazu ni agakorerwamo ibikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya Eyateri, aho bifasha abaturage bakeneye ibyokora kubibona hafi nko kugura amayinite kubitsa amafaranga n'ibindi.

Aba ni bamwe mubakorera sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni aho baba bari kwamamaza ibikorwa byayo ahahurira abantu benshi kugira ngo babisobanukirwe babe bayigana ndetse n'ibindi bakeneye babashe kubona ubufasha uko bikwiriye.

Iki cyapa ni igitangwa na sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni kikaba kiriho kode umucuruzi akoresha bigafasha abaje kugura ibicuruzwa bye kuba bakwishyura bakoresheje amafaranga bafite kuri telefone zabo no mu gihe batayagendanye mu ntoki.

Aka kazu ni agakorerwaho bimwe mubikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN aho dushyirwa ahegereye abaturage kugira ngo bashobore kubibona muburyo bworoshye Nko kuba bagura amayinite yo guhamagara kubitsa amafaranga, kuyabikuza ndetse no kuba bayoherereza abandi.

Iki cyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho kiba kiriho kode umucuruzi akoresha kugira ngo bifashe ugura kuba yakwishyura akoresheje amafaranga afite kuri konti ye ya telefone, bitabaye ngombwa ko yagendana mu ntoki.

Aka kazu ni agakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho yegereza abaturage ibyo ikora, kugira ngo babone ubufasha mu buryo bworoshye, nk'abakeneye kubitsa amafaranga, kuyabikuza, kugura amayinite yo guhamagaza, ndetse n'ibindi.

Uyu ni umucuruzi wambaye umwenda uranga sosiyete y'itumanaho ya MTN aho iba iri kwamamaza uburyo bwayo bwo kwishyura ibicuruzwa hakoresheje amafaranga umuntu aba afite kuri telefone bitabaye ngomba ko agendanwa mu ntoki.

Ikiraro kinini gikomeye gifite umuhanda hejuru n'undi muhanda uca munsi yacyo, hejuru hari kunyuramo ikinyabiziga gitwara abagenzi, munsi y'ikiraro hari umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka, ipikipiki n'amagare.

Iki ni icyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya emutiyene aho kiriho kode umucuruzi akoresha bikaba bifasha umaze kugura kuba yakwishyura yifashishije amafaranga afite kuri telefone ye no mu gihe yaba atayagendanye mu ntoki.

Aka ni akazu ka sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho gakorerwamo bimwe mu bikorwa byayo, nk'uko turi kubibona hariho abaturage bari gufashwa bitandukanye, aho baba bashobora kugura amayinite yo guhamagaza, kubitsa amafaranga, kuyabikuza, kuyoherereza, n'ibindi.

Hano hariho abatwara abantu bakoresheje ibinyabiziga bya moto ndetse tukaba turi kubonaho n'abagenzi bari kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga rya telefone, bukaba ari bumwe mu buryo bwakoreshejwe mu gihe hadukaga icyorezo kugirango ngo hirindwe kugikwirakwiza kandi n'ubu bukaba ari uburyo bukomeza gufasha abaturage.

Aka kazu ni aka sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho gakorerwamo bimwe mu bikorwa byayo ndetse bikaba bifasha abaturage kubibonera hafi, nko kuba bakwibikuriza amafaranga bakayabitsa ndetse bakayohereza.

Aka kazu ni agakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni, aho yegereza ibyo ikora abaturage, kugira ngo babashe kubibona mu buryo bworoshye, nko kuba bakwibikuriza amafaranga, kuyabitsa, kuyohereza, n'ibindi.

Iri soko ntiricururizwamo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, nk'imboga ndetse n'ibindi, by'umwihariko tukaba tubona aho kode y'umucuruzi aho ifasha uguze kuba yakwishyura akoresheje amafaranga afite kuri telefone ye, ndetse bitabaye ngombwa ko ayagendana mu ntoki.

Aka ni akazu gakorerwamo ibikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya Emutiyene, aho yegereza ibyo ikora abaturage kugira ngo biborohere, aho baba bashobora kubitsa amafaranga, bakayabikuza ndetse n'ibindi bitandukanye.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho yegereza ibikorwa byayo abaturage, kugira ngo babashe kuba babikuza amafaranga, bakayabitsa, bakagura amayinite yo guhamagaza, ndetse n'ibindi.

Iki cyapa ni igitangwa na sosiyete y'itumanaho ya Mtn, aho gihabwa umucuruzi, hakaba hariho kode azajya akoresha bigafasha abagura buno buryo bwo kwishyura bakoresheje amafaranga bafite kuri telefone yabo.

Iki ni icyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, kikaba gihabwa umucuruzi nkuko tubibona hariho kode azajya akoresha, bigafasha abamugannye kuba bakwishyura bakoresheje amafaranga bafite kuri telefone yabo, bitabaye ngombwa ko bayatwara mu ntoki.

Hano nii ahakorerwa ibikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene nk'uko tubibona hariho abakozi bayo aho bafasha abaturage gusobanukirwa, ibyo bakora ndetse bakaba bayigana.

Aka kazu ni agakorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho yegereza abaturage ibyo ukora kugirango biborohere kubibona, nko kubitsa amafaranga, kuyabikuza, kugura ama inite yo guhamagara n'ibindi.

Aba ni bamwe mu bakozi bakorera sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho baba bari kwamamariza ibikorwa byayo mu duce dutandukanye, mu mamurikagurishwa, ndetse n'ahandi hahurira abantu benshi, kugira ngo babashe gusobanurirwa ibyo ikora, ndetse babe bayigana.

Aba ni bamwe mu bakozi bakorera sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, bari guha umucuruzi icyapa kiriho kode azajya akoresha, ndetse bikazajya bifasha n'abamugana kuba bakwishyura bifashishije amafaranga bafite kuri telefone yabo, mu gihe baba batayagendanye mu ntoki.

Aka kazi ni agakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, ndetse tukaba turi kubona n'ugakoreramo ari gufasha umuturage bikaba byorohereza abantu batandukanye kubona ibyo bakeneye nk'amayinite kohereza amafaranga, kuyabikuza ndetse n'ibindi.

Aka kazu ni agakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, tukaba turi kubonaho n'abakozi bayikorera, bukaba ari uburyo bwegerezwa abaturage kugira ngo babigezweho nko kuba babitse amafaranga, kuba babona uburyo bwo kugura amayinite, kubikuza ndetse n'ibindi.

Utu tuzu ni udukoreramo amasosiyete y'itumanaho yaba Emutiyeni na Eyateri. Tukaba twegerezwa abaturage kugira ngo biborohere kubona ibikorwa byazo nko kuba bagura amayinite, kubitsa amafaranga, kuyabikuza n'ibindi.

Aka kazu ni agakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya Emutiyene, aho gafasha abaturage kubona ibyo bakora mu buryo bwihuse, nko kuba babitsa amafaranga, kuyabikuza, kuyohereza abandi no kugura amayinite yo guhamagaza.

Aka ni akazu gakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya Airtel, aho gashyirwa ahegera abaturage kugira ngo babashe kuba babona ubufasha bakeneye, harimo nko kugura amayinite yo guhamagaza, kubitsaho amafaranga ndetse n'ibindi.

Aha ni hamwe mu hakorerwa bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho yegereza ibyo ikora abaturage kugira ngo barusheho kuyisobanukirwa bayigane kandi bahabwe ubufasha baba bakeneye.

Hano turabonamo umucuruzi ufite icyapa kiriho kode itangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, bukaba ari uburyo bworohereza abaturage kuba bakwishyura bakoresheje amafaranga bafite kuri telefone zabo mugihe ntayo baba bitwaje mu ntoki kandi bikaba ari no kuyarindira umutekano.

Icyi cyapa kerekana ubucuruzi bukoreshwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Bukaba ari uburyo bufasha abakeneye kugira ibyo bagura kuba babibona byoroshye cyane ko ariryo abantu bakoresha muri icyi gihe ndetse bakaba bashobora kubikugerezaho aho utuye.

Bamwe mu bagemura ibicuruzwa babishyira abaturage babitumije bakoresheje ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza abadafite umwanya kuba babona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu kazi kabo cyangwa se mu ngo, ndetse bikorohereza n'abacuruzi kubona ababagurira mu buryo bwihuse.

Uyu ni umucuruzi uzaniye umuturage ibyo yatumije akoresheje ikoranabuhanga akaba ari uburyo bwo bworohereza bamwe kuba bagura ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyangwa no kuba badafite umwanya kandi bigafasha n'ababicuruza kubona babagurira mu buryo bworoshye.

Hano turabona aho umucuruzi ugemuriye ibyo kurya baba babitumije bakoresheje ikoranabuhanga, buri bumwe mu buryo bworohereza abadafite umwanya, kuba babona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo.

Hano turabonaho umucuruzi ushyiriye uwatumije ibicuruzwa akoresheje ikoranabuhanga kandi bukaba ari uburyo bworohereza benshi bitewe n'uko baba badafite umwanya kubera akazi cyangwa badashobora kuva mu ngo zabo ndetse bigafasha n'abacuruza kubona aho bajyana ibyo bacuruza mu buryo bwihuse.

Uyu ni umucuruzi ugemurira abagize ibyo batumiza bakoresheje ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza abaturage kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyane ko abenshi baba badafite umwanya bari mu kazi cyangwa se ibindi.

Iyi sanduku iteretse kuri iyi moto, ni imwe mu yitwarwamo ibicuruzwa abantu baba batumije bakoresheje ikoranabuhangakaba, akaba ari uburyo bworohereza nk'abadafite umwanya kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo, ndetse n'abacuruzi bakageza ibicuruzwa byabo ahantu henshi, kubo bishoboka.

Iri ni isoko ricuruza ibicuruzwa bitandukanye aho rikoresha ikoranabuhanga ribikaba bifasha abakeneye kugira ibyo bagura kuba babibonaho bakabitumiza bakabi bagezaho bitabaye ngombwa ko bava mu rugo.

Hano turabonaho umukozi ushyira ibicuruzwa abaturage babitumije yifashishije ikoranabuhanga, akaba ari bumwe mu buryo abacuruzi bashyizeho bworohereza abaturage bataba bashobora kuva mu ngo zabo, cyangwa se abadafite umwanya, kubona ibyo bakeneye mu buryo bwihuse.

Iri ni isoko ricuruza rikoresheje ikoranabuhanga nk'uko turi kubibona, bikaba bishobora gufasha uwifuza kugira ibyo agura, kuba yabibonaho ndetse akabitumiza, bakaba bashobora kubimugezaho mu buryo bwihuse.

Uyu ni umucuruzi cyangwa umukozi ushyiriye ibicuruzwa babitumije bifashishije ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza benshi kuba babona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyangwa se no mu gihe bari mu kazi.

Hano turabonaho umukozi uri gupakira cyangwa se gupakurura ibyo ashyiriye uwatumije akoresheje ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza abaturage kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo, kandi n'abacuruzi bikabafasha kubona aho bajyana ibicuruzwa byabo.

Aba ni bamwe mu bakozi bagemurira ibicuruzwa abaturage batumije bakoresheje ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza benshi by'umwihariko aba badafite umwanya wo kwigira ku masoko bari mu tuzi ndetse bigafasha n'abacuruzi muri rusange kubona aho bajyana ibyo bakora mu buryo bwihuse.

Uri ni urubuga ricururizwaho ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, aho bishobora gufasha abaturage kuba bakoresha ikoranabuhanga, bakabonaho ibyo bakeneye kandi bakabigura, ndetse bakabigezwaho.

Iri ni iduka ricuruza hifashishijwe ikoranabuhanga, aho bifasha abaturage kubona ibyo bakeneye, bitewe n'uko n'abenshi baba barikoresha, bakaba babiguriraho ndetse bakabigezwaho mu buryo bworoshye.

Iki ni icyapa cyamamaza imbuga zitandukanye zikorerwaho imirimo y'ubucuruzi, bikaba bifasha abaturage kuba bakoresha ikoranabuhanga bakagura ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo, cyane ko abenshi bitewe n'akazi baba badafite umwanya wo kwigira ku masoko.

Iyi ni inzu ikodeshwakaba, akaba ari zimwe mu zifasha ba mukerarugendo kubona aho bashobora gutura mu gihe bimukiye mu gihugu, kandi n'abadafite ubushobozi cyangwa se ibibanza byo kuba bakubakamo izabo, bakabona aho kuba mu buryo bworoshye.

Muri iri soko turabonaho imbuto z'ubwoko butandukanye ndetse n'uri kuzicuruza, zikaba ari zimwe mu zikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tumererwe neza tugire imbaraga, ndetse twirinde n'indwara.

Iyi nzu ni icururizwamo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, hakaba ari hamwe mu hantu abantu bishimira kujya, mu gihe bifuza kuruhuka, kuganira n'inshuti zabo, gusabana n'imiryango ndetse n'ibindi.

Iri ni isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye, nk'imboga niczo turi kubonaho by'umwihariko akaba ari bimwe mu bintu abantu bakenera kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza hakaba harimo n'ibirinda indwara.

Hano turabonamo inzugi, ameza, intebe, utubati, n'inindi bikozwe mu mbaho, bikaba bigaragaza ko ibiti iyo bifashwe neza bishobora kubyazwa umusaruro, bikavamo ibikoresho byinshi twifashisha mu rugo, ndetse bigatunga n'ababikora.

Iyi karita ni iy'ubwisungane mu kwivuza, akaba ari izikoreshwa hano mu gihugu cy' u Rwanda, aho leta yorohereje abaturage kuba babona ubuvuzi bakeneye, hamwe na bamwe bafite ubushobozi bucye ntibarembere mu ngo zabo.

Aya ni amakarita y'ubwisungane mu kwivuza akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari uburyo leta yashyiriyeho abaturage kugirango iborohereze baba abafite ubushobozi buke ntihagire abarembera mu rugo bitewe no kubura uko bivuza.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho leta yorohereje abaturage by'umwihariko abafite ubushobozi buke, kuba babona uko babona ubuvuzi mu buryo bworoshye.

Aya makarita ni ay'ubwisungane mu kwivuza akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari uburyo bwiza leta yashyiriyeho abaturage kugira ngo babone ubuvuzi bakeneye bwose, by'umwihariko abafite ubushobozi buke babe batarembera mu rugo.

Aya ni amakarita y'ubwisungane mu kwivuza akoreshwa hano mu gihugu cy'u rwanda, akaba ari uburyo leta yashyiriyeho abaturage kugira ngo babone ubuvuzi bakeneye by'umwihariko abafite ubushobozi buke, bigatuma batarembera mu ingo zabo.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho leta yashyiriyeho abaturage uburyo bwo kubashaba kubona ubuvuzi mu buryo bwisuhe, by'umwihariko abafite ubushobozi buke ntibarembere mu rugo.

Iyi karita n'iy'ubwisungane mu kwivuza, ikaba ikorenswa mu gihugu cy'Urwanda. Aho reta yashyiriyeho abatuge uburyo byo kuba bafashwa batarembeye mungo zabo. By'umwihariko n'abafite ubushobozi buke bakabaha ubufasha bakeneye.

Iyi karita ni iy'ubwisungane mu kwivuza ikaba ikoreshwa mu gihugu cy' u Rwanda, aho leta yashyiriyeho uburyo bworohereza abaturage kuba batarembera mu ngo zabo by'umwihariko nk'ababa bafite ubushobozi buke birabafasha.

Iyi migati iba ikozwe mu ifarini ndetse n'ibindi, bikaba ari bimwe mu byo kurya abantu bakoresha ku mafunguro yabo ya mu gitondo ndetse n'abadafite umwanya wo kuba bateka mu gihe bari mu kazi, bashobora kuyifata kugirango bakomeze kugira imbaraga.

Iri ni isoko rya kijyambere ricuruzwa ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, ndetse bikaba bibitse mu buryo bufite isuku, kandi bidashobora kwangirika bigafasha abaje kugura guhita babona icyo bakeneye mu buryo bwihuse kandi bakaba bizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa.

Iri ni isoko rya kijyambere ricururizwamo ibiribwa bitandukanye ndetse n'imbuto, kandi nkuko bigaragara bikaba bibikwa mu buryo bidashobora kwangirika, bifite isuku ku buryo n'ubigura wese aba yizeye ko ntakibazo yahura nacyo.